Icyapa kinini cyane kiri mu mabara y'umweru n'umutuku, akaba giteye ku cyuma n'ipoto rirerire cyane riri mu mabara y'icyatsi. Hariho umugabo wambaye kositimu ndetse na karuvati arimo araseka. Akaba ndetse ari ubutumwa bw'ikigo cya kampani y'ubwishingizi. Hirya y'aho hantu icyo cyapa kiri hari ibiti byinshi kandi birebire.

Umukobwa wambaye ipantaro ndetse yambaye n'agapira hejuru k'umweru, akaba arimo arareba hejuru aseka, mu ntoki afite terefone ndetse ukundi kuboko akaba afashe igikapu gisa nk'ubururu ari kugikurura, akaba ari ubutumwa bwa kampani y'ubwishingizi, bukubwira ngo umusangirangendo wizewe, hari na terefone wahamagaraho mu gihe ubashatse.

Ipoto rirerire rikoze mu cyuma hakaba hariho icyapa kinini kiriho umugore wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umukara akaba arimo araseka inyuma ye ari ikinyabiziga kinini gikoreshwa mu buhinzi kikaba kiri ahantu hanini ari gukorerwa ubuhinzi hirya aho hari ibiti binini hakaba icyapa cyamamaza compani y'ubwishingizi.

Umuntu w'umugore uryamye ku gitanda, yambaye imyenda y'umweru ndetse afite n'igipfuko ku mutwe aryamye ameze nk'urwaye. Hirya hari abandi bantu babiri barimo baraseka bameze nk'aho baje kumusura, akaba ari ubutumwa bwa company y'ubwishingizi ya Radiant bakubwira ko hamwe n'ubwishingi bwo kwivuza ku giti cyawe n'abagize umuryango icyizere cy'ejo hazaza ibyishimo by'umuryango, mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Ubutumwa butangwa n'ikigo cy'ubwishingizi cya Radiyanti yacu, hakaba hari abantu bafite imyenda mu ntoki ndetse n'undi mugore wicaye, ni icyapa cyangwa ubutumwa bukubwira ngo ungukirwa, uko urushaho guhahira no kunywesha ikinyabiziga cyawe esansi kenshi mu bafatanyabikorwa bacu batandukanye, ni nako urushaho kongera amahirwe yo kubona ubwishingizi nta kindi kiguzi utanze. Ubwo ni ubutumwa bw'iyo kampani.

Umugabo wambaye ikositimu ndetse na karuvati, ihande rwe hari imodoka isa nk'aho yangiritse, ni ikigo cy'ubwishingizi kiri kuguha ubutumwa kubwira ngo:'' Kuki ukwiriye kutwizera mu gihe ukeneye ubwishingizi?'' Kikaba gishyiraho na nimero wahamagaraho mu gihe ukeneye guhabwa izo serivisi z'ubwishingizi.

Icyuma kinini gifite amabara yi'kigina hejuru hakaba hari icyapa nacyo kinini kiri mu mabara y'umutuku n'umweru; hirya hari umugore uri guseka wambaye imyenda y'umukara hakaba hari kampani y'ubwishingizi iri kwamamaza. Hari na nimero bahamagaraho mu gihe ubashatse; ahantu icyo cyapa kiri hateye ibiti byinshi kandi birebire.

Inka, inkoko ndetse n'ingurube bikaba biri ku cyapa cyangwa ku butumwa bwa kampani y'ubwishingizi ya Radiyanti yacu ikubwira ngo urumve mworozi tukugoboka mu gihe cy'amage tugane uhabwe ubwishingizi bw'amatungo yawe worore witeze imbere nta mbogamizi, bakaba bakwerekana nimero wabahamagaraho mu gihe ubashatse.

Ipoto rirerire rikoze mu byuma akaba kuri iryo poto hariho icyapa kinini cyane, kiriho umugore uri gusega ndetse aho afashe n'umwana, umwana umufashe ku rutugu icyapa gifite amabara y'umweru, ubururu ndetse n'iry'icyatsi akaba ari icyapa cya kampani y'ubwishingizi bagenda bamubwira ko bashaka gukorana na we.

Ipoto rirerire cyane. Ipoto risize amabara y'ikigina. Rikaba rifashe icyapa kinini kiriho umugabo wifashe neza usa nkaho akuze. Kuruhande rwayo ni umugore nawe usa nkaho akuze. Bakaba bicaye inyuma yabo hari utwatsi. Kuri icyo cyapa kiriho amabara y'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi. Akaba ari icyapa cyamamaza company y'Ubwishingizi.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye akaba urimo imodoka nyinshi, ku ruhande hakaba hari amazu akorerwamo ubucuruzi menshi, hari n'amatara agenda amurika amabara atandukanye yemerera imodoka zimwe zigenda mu byerekezo bitandukanye, icyerekezo kimwe ikabemerera guhita ikindi kikazihagarika kugira ngo zitateza impanuka mu muhanda.

umukobwa urimo uraseka, akaba yambaye amadarubindi, akaba yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, akaba ari ubutumwa bwa kampani y'ubwishingizi ya Radiyanti, bukubwira ngo gura turi kumwe ubwishingizi buhendutse bw'ubuzima, ukanze akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego, hakaba hari na nimero ndetse wahamagaraho mu gihe ubashakiye, biri mu mabara y'umweru n'ubururu.

Ikiganza cy'umuntu gifite ikaramu mu ntoki kimeze nkaho kiri gusinya ubwumvikane cyangwa mu yandi magambo contract ni ubutumwa bwa radiyanti yacu ikigo cy'ubwishingizi kikubwira ngo ubwishingizi bw'ingwate. Gura ubwishingizi bw'ingwate ku bapiganira amasoko atandukanye, biri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Umugabo ndetse n'umugore bakaba bicaye mu modoka nziza cyane bakayimuragenda mu muhanda n'yinindi modoka irimo kandi i kurande hateye ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi ikaba ari icyapa cyangwa ubutumwa bwa radiant yacu companiy y'ubwishingizi ikubwira ngo turi kumweha ubutumwavuga ngo icyerekezo cy'inzozi zawe n'ibyishimo by'ubuzima bwawe numuryango wawe.

Icyuma kirekire k'ipoto kikaba kiriho icyapa kinini kiri mu mabara y'icyatsi, bikaba ari ubutumwa bwamamaza ikigo cy'ubwishingizi, hakaba hari n'imodoka bakaba bakubaza ngo waba ukeneye ubwishingizi? Hari na nimero wabahamagaraho igihe ubashaka, iruhande rw'icyo cyapa hari n'ibiti birebire kandi byinshi.

Apurikasiyo ya banki igaragaza ko iyo konti ari iya Ana. Ikaba ikwereka uburyo bwinshi wakoreshamo muri iyo konti. Ari ukoheheza amafaranga ku yindi konti yo muri iyo banki, kohereza amafaranga kuri telefone ndetse no kwishyura ibintu bigiye bitandukanye. Bakwereka amafaranga iyo konti ifite ndetse n'ayo usigaje kwishyura mu gihe wafashe umwenda ndetse n'ibindi byinshi.

Apulikasiyo ya banki, hakaba igenda ikwereka uburyo bwose waba ufite wahitamo. Akaba ari apulikasiyo ya banki ya ekwiti. Ikwereka yuko ushobora kohereza amafaranga kuri konti yawe, ndetse no ku yindi konti. Ushobora no kuyashyira ku ikarita cyangwa ukayohereza ku y'indi banki. Bikaba byarafashwe saa saba na mirongo ine n'itatu z'umugoroba.

Mu iduka rinini bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye, hakaba harimo ututageri tugiye turiho inkweto haba inkweto z'ubwoko bwinshi iz'abagore ndetse n'iz'abagabo, zikaba zifite amabara atandukanye umukara, umweru ndetse na kake.

Inzu nini ikorerwamo ubucuruzi, ikaba ifite inkuta z'umweru n'amakaro y'umweru. Hakaba harimo n'amavase agiye ateyemo ibiti. Hakaba hari umugore usa nkaho akora aho bantu wambaye ikoti ndetse n'abantu bari kugenda bigera imyenda, harimo abagabo akaba ari inzu ikorerwamo ubucuruzi icuuruza imyenda ndetse n'amakositimu.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko maremare k'umweru, akaba iruhande rwe hari umugore wambaye agakoti k'icyatsi bakaba bari mu iduka, umugore n'umuzungu umugabo ni umwirabura, umugore akaba ari kuri mudasobwa bari mu nyubako imeze nk'aho icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye.

Iduka rikorerwamo ubucuruzikaba rifite hasi amakaro y'umweru hakaba harimo imeza ndetse ku bikuta bikaba bitatseho imitako y'imigongo nyarwanda, akaba ari iduka bacururizamo imyenda, amashakoshi cyangwa amabaga, imikufi ndetse n'indi mitako igiye itandukanye.

Umugore wambaye ikanzu nini iri mu mabara y'umutuku n'ubururu akaba afite amafaranga mu ntoki ari mu iduka rinini ririmo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye byiganjemo ibyo kurya ndetse hakaba hari n'umuzani iruhande rwe asa nk'aho ategereje abakiriya.

Abagabo babiri bahagaze umwe yambaye ipantaro, n'agapira k'umukara undi yambaye ishati, n'ipantaro yakake bakaba barimo barerekana igipapuro gikoze muburyo cyangwa mu ishusho ry'urufunguzo inyuma yabo hakaba haparitse imodoka nini basa nkaho bari kugura imodoka aho hantu na hantu hacururizwa imodoka zigeye zitandukanye.

Imodoka nini cyane iparitse, ikaba ari imodoka isa nk'aho ari nshyashya. Ni imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, ikaba ahantu iparitse hirya yaho hari amazu menshi ndetse yaparitse n'andi mamodoka, bikaba bigaragara ko ari ahantu hacuruzwa imodoka.

Imodoka iparitse ahantu ikaba ifite amabara y'ikigina, ikaba bakubaza niba ushobora cyangwa ushaka kuyigura, bakaba bakubwira ko wahamagara nimero ya zeru karindwi umunani, gatandatu, gatatu gatatu, umunani kane, icyenda kane hirya yaho hantu imodoka iparitse hari amazu maremare ndetse hirya hateye n'ibiti.

Abagabo babiri bahagaze. Akaba umwe yambaye ikositimu ndetse n'undi yambaye ipantaro ndetse n'agapira k'umukara. Bakaba barimo barareba imodoka nziza y'umukara ibari imbere. Bakaba bameze nk'aho barimo barayigura cyangwa barimo barayigurisha. Bakaba ahantu bari ari hari inyubako ndende ndetse hirya hakaba hateye ibiti byinshi.

Imodoka ebyiri ziparitse, zikaba zifite amabara y'umukara zisa nk'aho ari nshyashya, inyuma hari itente ry'amabara y'umweru, hirya y'iyo nzu zirimo hakaba hari umuhanda ndetse hakaba hateye n'ibiti byinshi, ndetse hari n'ipoto rirerire risakaza amashanyarazi.

Abagabo babiri bahagaze umwe yambaye ipantaro ndetse n'agapira k'umweru undi yambaye ipantaro ndetse n'ishati y'amaboko maremare y'umutuku bakaba bari guhererekanya igipapuro gikoze mu ishusho y'urufunguzo iruhande rwabo hari imodoka bisa nkaho umwe amaze kugura imodoka hirya yabo hateye ibiti ndetse hari n'amazu.

Abagabo babiri bahagaze, umwe akaba yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'ubururu, undi yambaye imyenda ya kake hose, bari guherezanya igipapuro gikoze mushusho ry'urufunguzo, inyuma yabo hakaba hari imodoka nziza cyane kandi nini iri mu mabara y'umweru n'umukara, hirya y'aho bari hakaba hari amazu, hakaba higaragaza ko aho hantu bacuruza imodoka.

Imodoka nziza iparitse, ikaba ifite amabara y'umukara ndetse ifite purake yanditseho Kigali karizi maketi, ni imodokadoka yo mu bwoko bwa vogisi wageni, ikaba igurishwa miliyoni cumi na zirindwi z'amafaranga y'u Rwanda. Iruhande rwaho iparitse hari andi mazu ndetse hateye n'ibiti birebire.

Ahantu hagari hasi ni ibitaka byinshi, hakaba haparitse imodoka nyinshi zimeze nk'aho ari shyashya, imodoka ziri mu mabara atandukanye: umweru, umukara ndetse n'ayandi, hakaba bigaragara ko hari ahantu hacururizwa imodoka. Izo modoka zikaba zigurishwa, ku ruhande rw'ahantu ziri hari inyubako zigiye zitandukanye.

imodoka nziza cyane ikaba ari imodoka nshyashya ifite intebe za kake mo imbere hakaba harimo n'amabara y'umukara ikaba ifunguye, hirya yaho hakaba hari indi modoka y'umweru na yo iparitse, aho hantu bikaba bimeze nk'aho bahacururiza imodoka hirya yaho hantu hakaba hari hateye ibyatsi byinshi, indabyo ndetse n'ibiti hakaba hari n'andi mazu.

Imodoka nziza nini ikaba ifite ibara ry'umukara. Ifite purake yanditseho kigali karesi maketi. Akaba ari imodoka nshyashya yo mu bwoko bwa Toyota korora. ikaba igurishwa miliyoni mirongo itatu na zirindwi y'amafaranga y'u Rwanda. hanze y'ahantu iri akaba hateye ibiti byinshi kandi birebire.

Abagabo babiri bahagaze, umwe yambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati y'umweru, undi yambaye ipantaro ndetse n'agakoti n'agapira mo imbere; bakaba barimo barahana ikintu kimeze nk'urufunguzo gifite amabara y'umweru, ariko akaba ari igipapuro. Inyuma yabo hari imodoka nini iri mu bwoko bw'igikamyo, ifite amabara y'umweru n'umukara, ahantu bari hirya aho hari ibiti byinshi.

Abagabo babiri bahagaze, umwe yambaye ipantaro ndetse n'agapira, n'undi yambaye ipantaro ndetse n'agapira k'umutuku n'ingofero, bari guhererekanya igipapuro gikoze mu ishusho y'urufunguzo, inyuma yabo hari imodoka nini iri mu mabara y'umukara, ndetse na oranje, bimeze nkaho barimo baragura imodoka, hirya hari n'izindi modoka ziparitse, aho hantu bari hakikijwe n'ibiti byinshi kandi birebire.

Inyubako ndende ikaba ari inyubako ifite amabara y'umweru ndetse n'ikigina, hakaba hari n'icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho hyundai, mo imbere hakaba harimo imodoka nyinshi ziparitse, bikaba bigaragara ko ari inyubako icururizwamo imodoka, hanze yayo hari ubusitani ndetse hateye n'ibiti, hakaba hari n'ipoto rirerire risakaza amashanyarazi muri ibyo bice.

Iyi modoka iparitse, ni imodoka ifite ibara ry'ikigina ikaba imeze nk'aho ari nshyashya. Ni imodokadoka ifite planqué ya Kigali Cars Market, bakaba bakubaza niba ushaka kuyigura. Ushaka kuyigura yahamagara zeru karindwi umunani gatandatu gatatu gatatu munani kane icyenda, ahantu iparitse hirya y'aho hari ibyatsi ndetse hateye n'ibiti birebire kandi byinshi.

Abagabo bahagaze, bakaba bafite mu ntoki igipapuro gikoze mu ishusho y'urufunguzo, bikaba bigaragara yuko bamaze kugura imodoka, hirya haparitse imodoka nziza cyane kandi igaragara nk'aho ari nshyashya, hirya yaho bari, hari inzu nini igiye iparitsemo izindi modoka nyinshi, ahantu bari kandi hirya yaho hari n'andi mazu, hakaba hateye n'ibiti birebire.

Imodoka nyinshi ziparitse, ni modoka z'ubwoko butandukanye, zikaba zifite amabara y'umweru, ndetse handitseho afite pulake yanditseho Kigali carizi maketi, ahantu ziparitse ku ruhande hakaba hari amazu maremare azikikije, izo ni imodoka zigurishwa.

Imodoka nini, ifite amabara y'umuhondo. Iruhande rwayo hakaba hari abantu bambaye impuzankano, bameze nk'aho bacunze umutekano. Bamwe bafite n'ibikoresho by'imbunda. Ikaba iri imbere y'inyubako nini, ifite amabara y'ubururu.

Umugabo wambaye ishati y'amoko maremare, akaba afite amafaranga mu ntoki. Imbere ye hakaba hari ameza agiye ariho amafaranga menshi ari mu bipfunyika. Ndetse akaba ari mu biro bifite inkuta z'umweru, inzugi zisa ikiginari. Hari n'icyuma gihungiza cyangwa kigabanya ubushyuhe mu nzu. Imbere ye hari n'akamashini kagenda kabara amafaranga.

Umugabo wambaye ishati y'amamoko maremare ariko akaba yayizinze imbere hari aameza ndetse hari n'amafaranga menshi afunze mu bipfunyika hakaba hari n'imashini ifasha mu kubara amafaranga akaba arimo abara amafaranga ayafungira hamwe.

Abagore babiri, umwe akaba yambaye ibitenge undi yambaye agapira gasanzwe hejuru bari mu biro. Iyo nyubako ifite inkuta z'umweru ndetse bari mu biro bizigizeze amabara y'umweru n'umukara, imbere y'abo hari za mudasobwa. Bakaba basa nk'aho batanga serivisi zijyanye n'amafaranga kubitsa, kubikuza ndetse n'ibindi.

Umugore wicaye, akaba yambaye ibitenge, akaba yicaye ku ntebe y'ubururu, imbere ye hari imeza iriho amatasi arimo amata, ndetse n'udusahane turiho amandazi, akaba ari inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'amata, hirya hari icyuma kinini gifata amata, kikayabika, kigatuma adapfa, hakaba hari ndetse n'icyuma gikonjesha ibintu kugira ngo bidapfa.

Abagabo babiri akaba umwe ari umusore wambaye ishati ya kake ndetse yambaye n'agapira k'icyatsi akaba afite akabido mu intoki, hirya ye hari umugabo usa nkaho akuze yambaye ishati y'amako magufi y'iroza bakaba bari mu iduka ricuruza amata ndetsekaba n'imbere'abaraka meza karimo indobo zirimo ibiribwa nk'amandazi ndetse n'imikati.

Inzu nini ikorerwamo ubucuruzi bw'amata, ikaba mu imbere harimo ibyuma bitunganya amata cyangwa biyabika kugira ngo adapfa, bikaba bizengurutsweho n'icyapa cy'ubururu cyanditseho Mukamira, imbere y'inzu hari icyapa kinini nacyo cy'uburu n'umweru cyanditseho milk zone Mukamira, hakaba hari n'umugore wicayemo imbere umeze nk'aho ukora aho hantu, hari n'imodoka iparitse imbere y'iryo duka ricuruza amata.

Iduka bacururizamo amata akaba ari iduka wasangagamo amata ndetse n'ibindi bicuruzwa bikomoka ku mata. Hakaba ndetse na aka etageri kariho amashashi apfunyitsemo imikati, amandazi ndetse n'ibindi wafatisha amata. Iyo nyubako ifite ibikuta bifite amabara y'umweru.

Iduka bacururizamo amata ndetse n’ibindi biyakomokaho haba ari icyuma kinini kibikwamo amata kugira ngo adapfa. Hari umugabo uhagaze, usa nkaho akorera aho hantu. Hari intebe y’umweru ndetse na kamezaza y’umweru umuntu yakwicaraho mu gihe aje kugira ikindi kintu afate. Harimo ibindi bicuruzwa nk’imitobe, Fanta, ibiribwa nk’amandazi, ndetse n’ibindi.

Umuhungu umeze nk'aho ari kwishyura yambaye agapira k'amabokoko magufi ndetse n'ikoboyi, imbere ye hari umukobwa wambaye ikanzu y'icyatsi ndetse na gashati k'ikoboyi, iryo ni iduka ricururizwamo amata ndetse n'ibindi bigiye biyaturukaho, hirya hari etajeri irimo ibindi bicuruzwa nk'imitobe, fanta ndetse n'ibindi.

Inyubako ifite amabara y'icyatsi ndetse n'umweru, mo imbere akaba ari ahantu bacururiza amata, hakaba hari abantu baje kugura, ndetse mo imbere hakaba harimo umuntu ukora mo aho ufite indobo uri gusuka amazi mu ijaga, ku ruhande hakaba hari n'inka iri iruhande rw'igiti.

Abantu babiri b'abakobwa bambaye udupira tw'ubururu, bakaba bahagaze ahantu mu itente, iryo tente rikaba ririmo ibyuma bikonjesha ibinyobwa kugira ngo bidapfa, akaba imbere yabo hari imeza ifite icyapa, ndetse hariho hejuru n'ibinyobwa birimo amata ndetse n'imitobe, icyapa cyanditseho Mukamira mu mabara y'umukara. Bakaba bari hasi mu byatsi, ndetse hirya hari n'ibiti byinshi biteye.

Iduka ricururizwamo amata ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye. Hakaba harimo etajeri isize amabara y'umweru ikoze mu mbaho. Ibikuta byaho bisize amabara y'ubururu ndetse n'umweru. Hakaba harimo amazi muri iryo duka, imitobe igiye itandukanye ndetse na fanta.

Iyi nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata ndetse n'ibindi biyakomokaho cyangwa biyaherekeza hakaba hari icyuma kinini cy'amabara y'umweru cyanditseho Inyange hakaba icyuma kibika amata kugira ngo adapfa ku ruhande hari aka etajeri kagiye karimo amazi, imitobe ndetse n'amata akaba ndetse muri iyo nzu harimo intebe ndetse n'utumzae abantu bakwicaraho

Abantu benshi bahagaze, bakabamo abagabo bambaye amashati, ndetse hagati yabo akaba hari umugore wambaye umupira w'umuhondo; akaba afite ishakoshi ku rutugu ndetse n'icupa mu ntoki. Muri iyo nzu barimo hakaba hari ibikuta bisa nk'umuhondo, bakaba bakubwira ko ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Abagabo babiri bahagaze bari kuganira, hari umwe uri kuruhande w'umwirabura wambaye agapira k'amaboko magufi, kuruhande rwe hari umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi k'umukara w'umuzungu, hakaba imbere yabo hariho za mudasobwa ku meza ndetse ku meza harihoh na terefone n'ibipapuro, ni kampani igufasha kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Umugore wambaye ikanzu nini y'icyatsi, akaba yambaye n'udukomo ku maboko, afite telefone mu ntoki ze, hakaba muri iyo telefone hari amabara y'icyatsi, akaba ari uburyo bwa apurikasiyo ya sipine, bukubwira ko ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Abagabo babiri bari kwinjira mu biro, umwe akaba yambaye ikoboyi n'ishati y'umweru ndetse n'undi yambaye ipantaro ndetse n'ishati y'ikigina, barimo barinjira mu nyubako ifite imiryango y'umukara. Iyi nyubako ikaba ifite icyapa kinini hejuru cy'ubururu cyanditseho peyi peyi, akaba ari ahantu wakwishyura ukoresheje ikorana ubuhanga.

Umugabo urimo uraseka akaba yambaye agapira k'amaboko magufi iruhande rwe hari umugore, akaba afite telefoni mu ntoki hakaba hari ubutumwa bwa sipini bukubwira ko ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, kandi iyo usangije iyo apulikasiyo ya sipini uhabwa amafaranga kuri buri nshuti utumiye kuyikoresha.

Inyubako nini ikaba hasi ifite amakaro y'umweru. Mo imbere hakaba harimo amabara y'umukara ndetse hakaba hari n'umugabo wicayemo usa nk'aho akoramo aho hantu. Hanze hakaba hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umuhondo ndetse na oranje, cyerekana ko ahantu ari mu biro bitagirwamo amafaranga y'amanyamahanga, cyangwa bikakurindira amafaranga bikaguha ay' abanyamahanga.

Iyi nzu igura ikanagurisha amafaranga y'amanyamahanga ni inzu isa mu ibara ry'umukara, hanze hari ibyapa by'umuhondo byanditseho amagambo ngo westani yuniyoni, akaba ndetse mo imbere ari abantu barimo, hirya hari n'andi mazu akorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye.

Ni inyubako nini kandi ndende, zikaba ari inyubako zigeretse, zikaba zifite ibikuta bisize amabara y'umuhondo, hakaba harimo imiryango myinshi igenda ikoreramo ubucuruzi bugiye butandukanye, hakaba hari icyapa cyerekana ko aho hantu ari iduka ry'amafaranga, rikaba ari iduka ricururizwamo amafaranga y'abanyamahanga ryitwa Ineza, hakaba hari na nimero wahamagara mu gihe ubashatse, hari abantu yo gutambuka mu tuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hateye n'ibiti.

Inyubako nini bakoreramo ubucuruzi. Ni inyubako ifite amabara y'umuhondo. Hakaba hari icyapa kinini kiri mu mabara y'ubururu cyanditseho amagambo mu mabara y'umweru. Bakwereka ko ahantu ari ibiro bicururizwamo amafaranga y'abanyamahanga. Ndetse muri iyo nzu harimo n'amaduka menshi agiye acuruza ibintu bitandukanye birimo n'imyenda.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'amarinete, akaba arimo araseka. Imbere ye hakaba hari inyubako ifite imiryango y'umutuku, imbere ikaba isize n'amabara y'umweru, ikaba ikoreramo ibiro bicuruza amafaranga bigenda bitanga amafaranga y'amanyamahanga bikayavunjishamo ayo muri icyo gihugu ikaba ifite ho ijambo ryitwa pesa.

Ibiro bivunjisha amafaranga cyangwa bikagurisha cyangwa bikagura amafaranga y'abanyamahanga. Hakaba hari umugabo uje gusaba serivisi wambaye agapira k'amaboko magufi ndetse n'ipantaro, imbere hari umugore n'umugabo bakora mo aho ngaho, bakaba umwe yicaye, baka bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari imeza ziriho muranda ziriho mudasobwa, ikaba iyo nzu ifite imiryango y'umweru ndetse n'amadirishya y'umukara.

Ibiro bicururizwamo amafaranga y'amanyamahanga ndetse ukanahinduza amafaranga y'abanyamahanga ndetse n'ayo muri icyo gihugu, igura n'igurisha mu magambo make, akaba ari ibiro bifite amakaro hasi y'umweru inkuta z'umweru ndetse hari n'ibyapa binini by'ubururu, hakaba hari n'umugore wicaye imbere mu imbere mu biro, hakaba hari meza imbere ye iteretseho mudasobwa.

Ibiro bitanga serivisi ry'igura n'igurisha ry'amafaranga y'abanyamahanga hakaba hari abantu bari imbere baje gusaba serivisi, ibyo biro bifite inkuta z'umweru ndetse bakaba bafite ibyapa birebire hejuru by'icyatsi ndetse biri no mu mabara y'umweru, mo imbere harimo umuntu uri gutanga izo serivisi ndetse imbere ye hari na mudasobwa.

Inyubako nini ikaba ifite amabara y'umweru n'umutuku. Akaba ari inyubako ikorerwamo na company ifasha abantu kubaha amafaranga y'Abanyamahanga cyangwa guhindura amafaranga yo muri icyo gihugu iyashyira mu manyamahanga. Ikaba hejuru ifite icyapa kinini cy'umweru n'umutugu cyanditseho MoneyGram. Iruhande rwayo hari akayira kaba gaparitsemo imodoka ndetse n'andi mazu akikije iyo nyubako.

Iyi nzu igura ikanagurisha amafaranga y'abanyamahanga. Ikaba ifite icyapa kinini kiri mu mabara y'umuhondo n'umukara, cyanditseho wesitani yuniyoni. Iyo nzu ifite amakaro y'umweru. Hirya yayo hakaba hari umuhanda munini uri gucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo moto ndetse n'imodoka. Hakaba no ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru. Hateye n'ibyatsi ndetse n'ibiti.

Ibiro bicururizamo bikanagurisha amafaranga y'abanyamahanga bifite icyapa kinini cyiri mu mabara y'umweru byanditseho giraneza hirya hari na nimero wahamagaraho mu gihe ubabuze ni inyubako isize amabara y'ubururu mo imbere ikaba ifite purafo isize amabara y'umweru hirya hari andi mazu akorerwamo ubucuruzi butandukanye.

Inzu igura ikanagurisha amafaranga ndetse ikanahindura amafaranga yayo mu mafaranga y'amanhanga ikaba ifite umuryango w'umweru, hejuru hari ibyapa byinshi harimo icy'umutuku cyanditseho wesite uniyoni ndetse n'ikindi cyumweru n'umukara kigaragaza ko aho hantu hakorerwa izo serivisi, hanze hateretse utuvaze tugiye turiteyemo ibiti.

Inzu nini iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru. Ku rande hakaba hari n'andi mazu akorerwamo ubucuruzi. Ikaba ifite icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru, amagambo yanandikishije umukara n'umutuku. Cyanditseho Giraneza Forex Bureau. Ni ibiro bikorerwamo ubucuruzi bw'amafaranga y'amanyamahanga ndetse no guhinduranya amafaranga yo muri icyo gihugu n'ay'amanyamahanga.

Ahantu hacururizwa ibikomoka ku mbaho, harimo nk'intebe, utubati, ameza ndetse n'ibindi. Akaba ari inzu ifite hasi amakaro y'umweru ndetse n'inkuta z'umweru, hakaba harimo intebe zifite amabara atandukanye, iz'ikigina, izisa shokora ndetse n'izindi. Akaba abantu baza kwihahira ibyo bintu byose bikomoka ku mbaho.

Abantu benshi bahagaze abandi bakaba bicaye bakaba bambaye bamwe ibisarubeti bya kake bimeze nkaho bakora aho hantu, bari ahantu hasakaye ndetse hirya yabo hakaba hari amazu ni mu iduka bakoreramo ibikoresho biturutse kumbaho intebe, utubati ndetse n'ibindi hakaba harimo n'amamatora.

Ahantu hari amaduka menshi, hakaba hari amaduka acuruza ibintu bikomoka ku mbahoho, harimo intebe z'ubwoko bwinshi zifite amabara atandukanye arimo, ubururu, icyatsi ndetse n'ibindi, hakaba harimo n'ibindi bicuruzwa, birimo nk'utubati, ameza ndetse n'ibindi, hirya y'iyo nyubako icururizwamo ibyo bintu hari umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Inyubako nini kandi ndende, ikaba ari inyubako icumbikira abantu by'igihe gito, izwi ku izina rya hoteri. Ifite inkuta z'umweru. Hakaba hanze hateye udutebe tw'umukara ndetse hakaba hari n'utumeza. Ku ruhande rw'iyo nyubako hari andi mazu ndetse hari n'ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti.

Inyubako nini cyane kandi nziza ikaba ari iy'amagorofa menshi, ni inyubako icumbikira abantu by'igihe gito izwi nka hoteri, ikaba ifite n'aho bogera rusange hazwi nka piscine, iruhande rwayo hakaba harimo ibyatsi byiza ndetse biteyemo n'ibiti, hakaba harimo n'udutebe umuntu yakwicaraho aruhuka.

Inyubako nini kandi nziza, ikaba ari iy'amagorofa menshi hakaba ari amatara menshi agiye yaka. Ni inyubako icumbikira abantu by'igihe gito izwi nka hoteli, hakaba ari naho abantu bogera ari benshi hazwi nko kuri pisine, iruhande rwaho hari aho abantu bakwicara ndetse hakaba hateye n'ibiti byiza hari n'ubusitani.

Inyubako nziza kandi nini, akaba ari inyubako ebyiri, imwe iri ku ruhande yicanye amatara mu mabara y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, ariyo: ubururu, umuhondo ,ndetse n'icyatsi. Harya yaho hari n'indi nyubako nayo iri kwaka amatarama mo imbere, ni inyubako zicumbikira abantu by'igihe gito zizwi nka hoteli, ahantu ziri ndetse hateye n'ibiti birebire.

Inyubako nini kandi ndende ikaba ari inyubako abantu bacumbikamo mu gihe gitoya izwi nka hoteri ikaba ifite hanze intebe z'umukara zirimo n'udusego imbere yaho hakaba hari utumeza mo imbere mu nzu hari n'intebe ziteye kandi amatara menshi akaba arimo araka hanze hakaba hateye ibiti byinshi biri mu mavaze.

Amazu manini cyane akaba ari amazu kandi maremare y'amagorofa menshi. Amazu asize amabara y'umweru akaba afite inzugi ndetse n'amadirishya y'umukara. Hagati akaba hari ubusitani bwiza buteyemo n'ibiti ndetse no hejuru y'amazu hakaba hagiye hari ibiti, hirya hari andi mazu menshi.

Inzu nini kandi nziza, ikaba icumbikira abantu mu gihe gitonya izwi nka hoteri, ikaba ifite ndetse n'aho abantu bogera ku karubanda hazwi nka pisine, ku ruhande hakaba hari udutebe umuntu yakwicaramo. Hari udutebe tw'umweru ndetse n'umutuku ndetse hakaba hari n'imitaka ibatwikiriye kugira ngo batagerwaho n'izuba. Hari n'ibiti byinshi biteye muri iyo nyubako.

Inyubako nini cyane ikaba ari inyubako y'amagorofa menshi, isize amabara y'umweru ndetse n'umuhondo ikaba inyubako icumbikira abantu by'igihe gito cyangwa izwi ku izina rya hoteri, iruhande rwayo hari ayandi mazu menshi ndetse hakaba ari n'ubusitani bwiza cyane buteyemo indabyo ndetse n'ibiti.

Inyubako nini iyo nyubako ikaba ifite imiryango ndetse n'amadirishya y'umukara hakabamo imbere harimo intebe z'umweru ndetse n'abantu bakwicara mo imbere hakaba harimo n'ivase zirimo ibiti, hanze hakaba hari ibyapa binini byanditseho andi, akaba ari inyubako ikoreshwa na kampani y'ubwishingizi.

Inyubako nini ifite amagorofa menshi, ikaba isize amabara y'umweru ndetse ikaba ifite icyapa hejuru cyanditseho Sonarwa; ikaba ari inyubako ikorerwamo n'ikigo cy'ubwishingizi. Hanze hakaba hateye ibiti ndetse hakaba hari n'ubusitani.

Abantu baje guhabwa serivisi muri kompani y'ubwishingizi; barimo imbere mu biro. Akaba ari umugore wambaye ibitenge ndetse iruhande rwe hari n'umugabo wambaye ikositimu; bakaba bari gusaba serivisi. Mo imbere mu biro harimo abantu bicaye, imbere yabo hari za mudasobwa, bakaba barimo baratanga serivisi. Ku ruhande hari ibyapa binini.

Umugabo uri guseka uhetse umwana ku rutugu ndetse n'umugore urimo urahanagura umwana, icyo ni icyapa kiri mu nyubako nini ifite ibikuta by'umweru ndetse mo imbere hakaba hari n'intebe ziri imbere y'imeza, hakaba hari n'ivaze irimo igiti, ni ibiro bya kampani y'ubwishingizi ya BRITUM.

Inzu nziza ifite inkuta z'umweru, hakaba harimo abantu b'abagabo babiri, umwe yambaye ipantaro ya kaki ndetse n'ishati y'ubururu n'undi yambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'ubururu, umwe akaba arimo arasohoka mo imbere harimo intebe ndetse hari n'ibyapa bigaragaza serivisi zitangirwamo aho ahantu, akaba ari ibiro bya kampani y'ubwishingizi.

Inyubako nini ikaba ikoreramo kampani y'ubwishingizi; mo imbere mu biro hakaba hari intebe z'umukara ndetse n' imeza, izo meza zikaba ziriho mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho. Iyo nyubako ifite ibikuta by'umweru ndetse n'imiryango y'umukara hanze.

Abantu babiri bicaye, akaba ari umugabo wambaye ikositimu ndetse kuhande rwe hari n'umugabo nawe wicaye, bicaye mu ntebe z'umukara, akaba bari mu biro by'ikigo cy'ubwishingizi. Iyo nzu ifite ibikuta by'umweruran hari akavaze gateretsemo igiti, hari n'aho wanywera amazi ubishatse, hari imeza iriho mudasobwa bakaba bategereje guhabwa serivise abo bantu.

Inyubako ndende y'amagorofa menshi, akaba ari inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, hakaba hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umukara n'umweru n'umuhondo kigaragaza ko aho hantu hakorerwamo ikigo cy'ubukungu gitanga inguzanyo ku bantu ndetse kikanatanga izindi serivisi zigendanye n'amafaranga.

Inyubako ndende. Ikaba ari inyubako ikorerwamo na banki. Ikaba ifite imiryango y'amabara y'ikigina, hanze hakaba hari ndetse n'amatafari. Hirya hari indi nyubako ifite imiryango y'umukara. Hakaba ari ibyapa binini by'umweru ndetse n'icyatsi. Bakaba bakwereka yuko aho hantu wahabonera inguzanyo.

Umugore urimo imbere mu biro; akaba yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'agapira kari mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu; kaba mu ntoki ze afitemo amafaranga, akaba ameze nk'aho arimo aratanga inguzanyo ku mugabo uri imbere yambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'ipantaro, akaba afite ikaramu mu ntoki ameze nk'aho ari kwandika ku gipapuro.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bakaba bahagaze, bakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, ahantu bari hirya y'aho hari amazu abakikije ndetse n'ibiti, hari n'intebe ziri ku ruhande rwabo, bakaba bameze nk'aho baje guteranira hamwe ngo bajye mu itsinda riguriza abantu ndetse rikabika n'amafaranga rizwi nk'ibibina.

Icyapa cyangwa ubutumwa buri mu mabara y'ubururu, umwe ndetse n'umuhondo. Ni ubutumwa bwa I&M Bank bukubwira ko ushobora kurya ubuzima. Ugafata inguzanyo ya miliyoni mirongo itanu, akaba bakubwira yuko ushobora gufata inguzanyo ya miliyoni mirongo itanu nta ngwate utanze.

Umugabo wambaye ikositimu afite na telefone mu ntoki ndetse n'umukobwa wambaye ikanzu ijya gusa icyatsi, bose bakaba barimo baraseka. Bakaba bari kuri cyapa cyangwa barimo baramazwa na ecobank ikubwira yuko ushobora gukuba kabiri umushahara wawe bakaba hasi ha na nimero wahamagara mu gihe ubashatse cyangwa urubuga wasura mu gihe ushaka kubabaza cyangwa ugize ikibazo runaka.

Inyubako ndende ifite ibirahure by'umukara bitabonerana, ikaba ifite amagorofa menshi, ikaba ndetse ifite n'amabara ya kake, ku ruhande hari umuhanda ndetse hakaba hateye n'ibiti byinshi.

Umumama wicaye akaba yambaye ikoti ry'umukara akaba ari ahantu mu isoko iruhande rwe hari utumeza tugiye turiho ibiribwa bigiye bitandukanye byiganjemo imbuto harimo amavoka, imineke, inanasi, ibinyomoro ndetse n'ibindi akaba ategereje abaguzi.

Abagore babiri bahagaze imbere yabo hakaba hari imeza iriho ibicuruzwa byinshi, byiganjemo ibyo kurya birimo amaronji, imyembe, imineke, inanasi, ibitunguru, ndetse n'ibindi byinshi. Bakaba ari abacuruzi, ahantu akaba ari mu isoko bakaba bategereje uza kubagurira.

Abantu benshi, bamwe bakaba bahagaze abandi bicaye, hari umugore wicaye imbere akaba akenyeye akantu k'agatenge yambaye n'umupira w'umukara, mu ntoki ze afite icyuma ndetse n'ifi, hari n'amabase menshi harimo amafi amwe akaba arimo arayatunganya ayashyira mu yindi basi, hirya yaho hakaba hari inyanja.

Umugore wambaye agasengeri k'umukara, akaba akenyeye n'igitenge, imbere ye hari ibicuruzwa byinshi byiganjemo ibyo kurya harimo: amaronji, imyembe, inyanya ndetse n'ibindi, aho hantu ni mu isoko, hakaba hari ibicuruzwa byinshi, ndetse n'abacuruzi benshi bategereje ko abantu baza kwihahira.

Abantu benshi barimo baragenda hakaba harimo abagore bahagaze bari gupima ibiribwa ahantu hakaba ari isoko, hakaba ari ibiribwa bigiye bitandukanye bitetse ku meza hakaba harimo amashu ndetse n'ibirayi ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye hakaba ari n'abandi bacuruzi bategereje kubona abakiriya.

Ahantu hanini cyane hakorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, hakaba hazwi nko ku isoko, hakaba hari amazu menshi agiye arimo ibicuruzwa ndetse n'abantu bahagaze abandi bicaye bacuruza ibintu bitandukanye bategereje abaguzi, hakaba higanjemo imyenda, inkweto, ibikapu, ndetse n'ibindi. Kuruhande hakaba hari n'abantu barimo baracaho baje kwihahira.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ukaba urimo uramacamo moto ndetse hirya hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru, abanyamaguru bakaba barimo baracamo abandi bicaye ku ruhande hari n'imodoka ziparitse zitarimo zirakoresha umuhanda. Hirya hari amazu maremare agiye akorerwamo ubucuruzi kandi ya etaje ndetse hari n'ibiti bihateye.

Ahantu hari ibiribwa byinshi cyane biteretse ku meza, harimo karoti, inyanya, intoryi ndetse n'ibindi, hari abantu benshi barimo baracamo ,hari n'abagore bahagaze bategereje abaguzi, aho hantu ni mu isoko ndetse hakaba hari abagore benshi bari gutambuka bakenyeye ibitenge baje kwihahira.

Ibicuruzwa byinshi biri kuri etageri cyangwa ku meza higanjemo ibyo kuribwa harimo amakaroti, 'inyanya, intoryi, pavuro, seleri, amashu ndetse n'ibindi, aha hantu ni mu isoko abantu bakaba barimo baraza guhaha ndetse n'abacuruzi bakaba bategereje abaguzi.

Abantu benshi bateraniye hamwe, urujya n'uruza rw'abantu bamwe binjira abandi basohoka, akaba ari mu nzu nini ikorerwamo ubucuruzi akaba ari mu isoko, harimo ibicuruzwa bitandukanye birimo uduseke, ibikapu, ndetse n'ibindi byinshi. Hakaba abantu baje guhaha harimo n'abacuruzi bategereje abaguzi.

Umugore uri guseka akaba yicaye, yambaye agashati k'amaboko magufi ka oranje ndetse n'ijipo. Akaba yambaye n'agakomo ku ntoki. Akaba ameze nk'aho arimo aracuruza. Aho hantu ni mu isoko. Imbere ye hari imeza iriho ibicuruzwa byiganjemo ibyo guteka birimo inyanya, intoryi, ibitunguru ndetse n'ibindi.

Abagore bahagaze abandi bicaye, bakaba bambaye ibitenge ndetse banakenyeye utuntu mu mutwe, imbere yabo hakaba hari amagi menshi, ahantu hakaba ari mu isoko ndetse hirya hari n'abandi bacuruzi ndetse n'abantu baje kugura, hakaba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye muri iryo soko.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bakaba barimo abagabo n'abagore, bakaba bari mu nyubako y'isoko hakaba hari icyapa kinini cyanditseho Nyabugogo modani maketi akaba ari mu mabara y'umuhondo ndetse n'umutuku, hari imodoka ziri gucaho ndetse na moto, hakaba harimo haracamo n'abagore bikoreye imizigo ndetse bahetse n'abana.

Abantu benshi bari kugenda bacana canamo akaba ari ahantu mu isoko. Hari ndetse n'abandi bari guhaha, hakaba hari n'abandi bategereje abakiliya, hakaba hari ahantu hagiye hari ibicuruzwa bitandukanye birimo imyenda, amashakoshi, ndetse n'ibindi. Hirya yabo hakaba hari amazu maremare.

Abantu bateraniye hamwe bari mu nzu, bamwe baricaye abandi barahagaze, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara bameze nkaho bategereje guhabwa serivisi, ni inzu itangirwamo serivisi za "MTN mobile money", hakaba iri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Akazu ka emutiyeni, akaba ari akazu k'agakiyosike gasize amabara y'umuhondo, mo imbere hicayemo umuntu, kuruhande hakaba harimo haraca abantu ndetse n'akana gato karimo karacaho, iruhande rw'agakiyosike hakaba hari n'andi mazu menshi ndetse hakaba hari n'umuhanda.

Akapa gatoya gakoze mu ishusho y'ikizeru, kakaba gafite amabara y'umukara ndetse n'umuhondo, kakaba kanditseho ishyura na momo pay, bakaba bakubwira ko ushobora gukanda akanyenyeri rimwe umunani kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri zero kane gatatu gatandatu gatandatu icyenda urwego, bakakumenyesha ko aho hantu nta yandi mafaranga wishyuzwa akaba ari serivisi za mobile money.

Akazu gatoya, kakaba karimo umuntu w'igitsina gore wambaye agashati k'umweru, akaba arimo araseka. Ni akazu gasize amabara y'umuhondo ndetse hakaba handitseho n'amagambo yandikishijwe umukara. Ni akazu gatangirwamo serivisi za MTN mobayiro mani. Ku ruhande rwaho hakaba hateye ibiti.

Akazu kari mu mabara y'umuhondo, ni akazu gatangirwamo serivisi za mobayiro mani, ukaba wabikuza, kubitsa ndetse wanoherereza amafaranga abantu bagiye bitandukanye, ku ruhande rwaho hakaba hateye ibiti byinshi kandi birebire, hari n'amapoto maremare asakaza amashanyarazi mu baturage.

Umugore wicaye ku ntebe imbere ye akaba hari akameza, akaba umugore yambaye ipantaro y'umukara ndetse hejuru akaba yambaye ibintu by'umweru, ku k'ameza hariho mudasobwa, amakayi, amakaramu, telefone ndetse n'akandi kantu k'akuma gakoreshwa mu kohereza cyangwa kwishyura amafaranga, aho hantu hakaba ari ahantu babonera serivisi za mobayiromani.

Umuntu uhagaze wambaye ipantaro y'umweru n'agapira k'umutuku, bakaba ku ruhande hari indi umuntu, bakaba mu biganza byabo bafite telefoni, bakaba barimo barishyura bakoresheje ikoranabuhanga, akaba ari inzu itangirwamo serivisi za mobayile mani, iruhande hakaba hari imeza iriho imashini ibara amafaranga.

Umuntu w'umugabo wambaye agapira k'umutuku n'amadarubindi, iruhande rwe hari umugabo wambaye akajiri ufite na telefone mu ntoki, agasa nkaho akorera ikigo cya MTN arimo aratanga serivisi za MTN mobayilo mani ku ruhande hari n'abandi bantu bamwe bicaye abandi barimo baragenda, ku ruhande hari n'umuhanda urimo gucamo imodoka, hakaba hateye n'ibiti iruhande rw'akayira k'abanyamaguru.

Akazu gafite amabara y'umutuku, akaba ari akazu gatanga serivisi za mobayiromani, handitseho Airtel, ku ruhande hariho umuhanda ndetse hakaba harimo haracamo n'imodoka, hirya hari abantu benshi, bamwe baricaye, abandi barahagaze.

Umukobwa wambaye ipantaro y'ikoboyi y'ubururu ndetse n'agapira k'umuhondo, iruhande rwe hari umugabo wambaye ipantaro ndetse n'agapira k'icyatsi hejuru yambaye ingofero, akaba afite terefoni mu ntoki. Inyuma yabo hari akazu gafite amabara y'umuhondo kandiditseho emutiyeni, akaba ari akazu gatangirwamo serivisi za emutiyene mobayiro mani, inyubako barimo ifite ibikuta by'umuhondo.

Igipapuro cy'umuhondo kikaba kiriho amagambo avuga yuko wakanda akanyenyeri rimwe umunani kabiri, akanyenyeri gatatu urwego ukandikamo kode ya zeru enye kane umunani rimwe ukaba wakwishyura ntandi mafaranga wishyujwe, amazina y'iyo kode ni Selestin Design akaba ari ahantu wabonera serivisi za mobayiro mani.

Ibiganza by'umuntu bikaba bifashe telefoni mo imbere hakaba handitsemo uburyo ngo ishyura magana atanu mu dukubo harimo magana inani emubi ukoresheje inite, momo cyangwa gusubira inyuma. Bakaba bakwereka y'uko ushobora kugura amayinite cyangwa amamega yo gukoresha kuri murandasi ukoresheje uburyo bwa mobiyiro mani.

Akapa k'umuhondo kari no mu mabara y'umweru, bakwereka ko aho hantu ushobora kwishyura ukoresheje uburyo MTN mobiyile mani. Barakubwira ushobora kwishyira na MOMO Payi; izina ry'umucuruzi "Inoma tekinologe" ushobora gukanda akanyenyeri rimwe, umunani, kabira, kanyenyeri, umunani, akayenyeri, imwe, zeru, zeru, gatanu, gatanu, rimwe, gatatu, urwego. Bakubwira yuko ntayandi mafaranga wishyuzwa ukoresheje ubwo buryo bwa MOMO Payi.

Uburyo wakoresha telefone wishyura ukoresheje mobile money, barakubwira ko mugiye kwishyura umuntu witwa Fabrice Hakuzimana, ufite nimero zero karindwi, umunani gatandatu gatanu kabiri gatandatu, umunani umunani gatatu, Ukaba ugiye kumwishyura amafaranga igiihumbi, ukaba uri bukatwe amafaranga makumyabiri y'amanyarwanda, ukaba ushobora kwemeza ukohereza cyangwa ukabikuramo, biri mu mabara y'umukara.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari moto iparitse, akaba umumotari wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'amoko maremare. Yambaye n'akajere ndetse nakasike mu mutwe, ndetse akaba afite na telefone mu ntoki; inyuma ye hari akantu k'akabogisi karimo ibiryo, akaba arimo arageza ku baguze ibiryo kuri murandasi mu rugo rwabo.

Terefone ndetse na mudasobwa, bikaba ari ubutumwa bw'ikigo gicuruza ibintu kuri murandasi, kikaba cyitwa Kigure, kikaba kikubwira ngo gura ibicuruzwa bitandukanye ku bacuruzi bacururiza impande n'impande ku biciro utasanga ahandi, tubikugerezeho nta kiguzi utanze.

Itangazo cyangwa icyapa kiri mu mabara y'umweru n'umukara. Kikaba kikubwira ko hari inama y'abantu bafite buzinesi. Kwiyandikisha bikaba ari ibihumbi mirongo itatu. Hakaba hari na telefone wahamagara mu gihe ubashakiye. Iyo nama izaba tariki makumyabiri n'eshatu z'ukwa cumi na kumwe, bibiri na makumyabiri na kane, isa yine z'amanywa.

Umugore wicaye ku buriri, akaba yambaye agapira k'amaboko maremare k'ubururu n'ipantaro y'ikigina, mu ntoki afite terefone ndetse yambaye na ekuteri mu matwi, bakaba bakubwira yuko ushobora guhaha ukoresheje ikoranabuhanga ku maduka yo kuri murandasi.

Umuntu w'umugabo wambaye agapira k'umuhondo akaba yambaye n'ipantaro y'ikoboyi akaba yicaye kuri moto ayitwaye, inyuma mu mugongo afite igikapu kiriho amabara y'umuhondo ndetse na orange akaba arimo arageza ku baguze ibicuruzwa kuri murandasi hirya ye hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti.

Iki ngiki akaba ari icyapa kerekana ko aga ngaha ari mu karere ka Bugesera, Akarere ka Bugesera gaherereye mu ntara y'iburasira zuba mu gihugu cy'urwanda, ni ahantu heza harambuye gusa haba ubushyuhe.

Amamoto menshi ari ku murongo inyuma hakaba hari utuntu igenda itwaramo ibyo bayitumye bikaba ari uburyo ushobora guhahira ikintu kuri murandasi kikakugeraho utiriwe uva aho uri, aho abamotari bambaye imyenda y'umutuku hirya yabo hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hateye ibyatsi byinshi n'ibiti.

Umugabo wambaye ipantaro ndetse n'ishati y'umweru, akaba ari kumwe n'umugore wambaye ikanzu, bakaba barimo banatembera mu nzu. Iyo nzu ifite ibikuta by'umweru ndetse hagiye harimo imitako itandukanye, hirya hari ivaze iteretsemo ibiti; iyo nzu irasa nkaho igurishwa.

Inzu nziza kandi nini ikaba ifite amakaro y'umweru, ikaba irimo n'ibikuta by'umweru, ikaba hari n'imitako y'imigongo iri muri iyo nzu hakabaho insakazamashusho ifashe ku gikuta nayo iri muri iyo nzu, ni inzu ikodeshwa igihumbi na magana atanu cy'idolari y'abanyamerika ku kwezi, ikaba iherereye i Kigali mu Rwanda.

Ni inzu nziza cyane ikaba ifite imiryango ya kake mo imbere inkuta zisa umweru, harimo intebe, utubati ndetse n'insakazamashusho iri kukuta, ikaba ikodeshwa magana atanu mirongo itanu akaba ari amadolari y'Amanyamerika ku kwezi, iherereye i Kigali mu Rwanda.

Inzu nini kandi nziza, ikaba ifite igipangu kiri mu mabara y'umukara, inkuta ziri mu mabara y'umweru, ikaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, ikaba hanze hari ibiti birebire biyikikije ndetse n'imbere akaba ari ubusitani, ni inzu igurishwa miliyoni ijana mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane ikaba iherereye i Kigali mu Rwanda, ikaba ari inyubako ifite aho batekera heza hari mu mabara y'umweru n'umukara ndetse n'inkuta z'iyo nzu zikaba zisize ibara ry'umweru. Iyo nyubako igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu nziza y'igorofa rimwe, ikaba ifite ibikuta by'umweru ndetse n'amadirishya n'inzugi by'umukara, ikaba ifite utwatsi duteye imbere yaho ndetse iteyemo n'indabyo, ikaba ari inzu nziza, ari inzu iherereye i Kigali mu Rwanda, ikodeshwa amafaranga y'igihumbi na magana atanu k'Idolari ku kwezi.

Umugabo wambaye ipantaro ndetse n'ishati y'amaboko maremare. Akaba ari kumwe n'umugore iruhande rwe wambaye ikanzu. Bakaba barimo bagenda bamwereka. Asa nk'aho barimo baramugurisha inzu cyangwa bamwereka ubwiza bw'iyo nzu. Mo imbere, mu nzu inkuta zirasa umweru, harimo n'amatara yaka. Hirya hari ahantu watekera nk'igikoni, ndetse hari n'aho wakwicara hameze nk'aho ari mu ruganiriro.

Inyubako nziza nini iri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru, hakaba hari umuntu uhagaze imbere yayo. Iyo nyubako ikaba igurishwa, ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda, iherereye Kibagabaga i Kigali, akaba ku ruhande hari n'izindi nyubako zihubatse.

Ni inzu nziza; ikaba ari inzu ifite ibikuta by'amabara y'umweru; inzugi zikaba zisa umuka, ikaba ifite n'imbuga nini umuntu yaparikamo cyangwa yakoreramo ibindi bintu, ikaba ari inzu igurishwa iherereye i Kigali-Kimironko, ikaba igurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amanyarwanda; ariko mukaba mwabiganiraho na nyirazo zikiyongera cyangwa zikagabanuka.

Inyubako ndende ifite amagorofa menshi, ikaba ifite ibikuta bisize amabara y'umweru ndetse n'inzugi zisize amabara y'umukara, hakaba hanze hateyeho ubusitani ndetse burimo n'ibiti birebire, ikaba ikodeshwa Amadorari magana arindwi ku kwezi y'Amanyamerika, ikaba iherereye Kimihurura i Kigali.

N'inzu nini ifite imiryango y'ubururu, mo imbere harimo amakaro y'umweru, ikaba ari inzu igurishwa, iherereye i Kagugu ahegereye sitasiyo ya lisansi ya rubisi, ikaba ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwiherero bubiri.

Inyubako nziza kandi nini ikaba ari inyubako ya etaje, ikaba ari inyubako ifite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, hirya yayo hakaba hari n'izindi nyubako, ni inyubako ikodeshwa ibihumbi bitatu by'amadorari y'Amerika, ikaba iherereye i Kigali mu Rwanda, ikaba ifite ibyumba bitanu ndetse n'ibiro.

Inzu nziza kandi nini, ikaba ifite inkuta zisizeye amabara y'ubururu ndetse n'amabati y'umutuku, ikaba ari inzu ku ruhande rwayo hari n'izindi nzu ziyikikije, ikaba igurishwa, ikaba iherereye Kabeza i Kigali hafi y'umurenge.

Inzu nziza iherereye i Kanombe ahegereye i Masoro ikaba ari inzu ifite ibyumba bibiri, ubwogere bumwe mu ruganiro ndetse no mu gikoni ikaba ifite n'abo baparika imodoka ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo irindwi y'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi imbere ifite ibikuta by'umweru, utumeza ndetse n'insakazamashusho.

Inzu nini akaba ari inzu ndende ifite etaje, ikaba ifite amabara y'umweru ndetse n'imiryango ikaba ari umweru. Ikaba hanze hari ubusitani bwiza buteyemo ibiti ndetse n'indabyo, iruhande rwayo hakaba n'andi mazu ayikikije.

Inzu nziza ikaba ifite imiryango ndetse n'amadirishya biri mu mabara y'umukara n'ikigina, ikaba ifite inkuta z'umweru, ni inzu iherereye Kimironko i Kigali, ikaba ifite ibyumba bitatu, iyo nzu ikaba ikodeshwa ku mafaranga ibihumbi magana ane by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, hakaba harimo abantu bamwe binjiramo abandi basohoka, iyo karitsiye ikaba irimo abantu bambaye udupira twamabara ya oranje basa nkaho bakoramo. Iyo nyubako ifite amakaro y'umweru n'umukara ndetse hari n'ibyapa byinshi bigenda byerekana, harimo nk'icy'ubururu kigaragaza ko abantu ariho binjirira ndetse n'icya oranje kikubwira uko iyi nyubako yitwa.

Umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi y'umukara akaba yambaye n'agapira k'umweru n'ingofero mu mutwe w'umutuku ahetse igikapu arimo arareba imyenda imanitse hejuru ni mu iduka ricuruza imyenda hakaba hamanitse imyenda n'imipira yo kwifubika ndetse n'mapantaro.

Umugore wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umutuku akaba arimo arahereza undi muntu kuru ruhande wambaye ishati y'umweru n'utubara tw'umutuku avelope, aho hantu akaba ari ahantu hacururiza ibintu byinshi bigiye bitandukanye higanjemo ibyo kurya, hakaba hari n'ibyapa birebire cyane by'icyatsi byanditseho sawa city.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bari gucacanamo, akaba ari bamwe ari abagore abandi ari abagabo, bakaba bari mu nzu nini icururizwamo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, bamwe akaba ari abacuruzi bategereje abakiriya abandi ari abantu bari kureba ibyo bicuruzwa ngo barebe ko babishimye maze babigure, inyubako ifite inkuta z'umweru ndetse akaba ari inyubako y'amagorofa menshi.

Inzu nziza kandi nini, akaba ari inzu y'amagorofa menshi, mo imbere ifite amakaro y'umweru ndetse n'umukara, ifite inzugi ndetse z'umweru, inkuta zayo zikaba zisa umweru, inkingi zikaba zisa umutuku. Hakaba hari amavazi ateretsemo ibiti, hirya mu maduka hagiye harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, iyo n ni inzu ikorerwamo ubucuruzi.

Ahantu bacururiza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, iyo nyubako ifite inkuta zisa ubururu ndetse na parafo zisa umweru, abantu barimo abagore ndetse n'abagabo bagenda bipima cyangwa bareba n'imyenda. Mu bicuruzwa birimo harimo imyenda ndetse n'inkweto.

Abantu benshi cyane hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo ndetse hakaba higanjemo n'abana, bakaba bakikije ikibuga kirimo kirakinirwaho umukino w'intoki uzwi nka voreboro, hirya hari amazu ndetse inyuma y'amazu hari ibiti byinshi biteye kandi birebire, hakaba imbere hari icyapa kinini cyanditseho ejo heza ndetse akaba ari n'ubutumwa bw'ikigo cya ara esesibi.

Icyapa gifite amabara y'umweru ariho amagambo yandikishije ubururu ndetse n'icyatsi. Akaba ari icyapa cya ejo heza, kikubwira ngo "ubwizigame bw'igihe kirekire". Hariho umugore urimo uraseka, wambaye akantu mu mutwe k'umutuku. Ku ruhande hakaba hari abantu bicaye mu itente bameze nk'abakozi ba ejo heza, bakaba baje gutanga serivisi. Hirya hakaba haparitse n'imodoka ndetse hakaba hateye n'ibiti.

Abantu bicaye ku ntebe, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, abagore barimo abenshi bakaba bambaye ibitenge, inyuma yabo hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye ndetse hakaba hari n'icyapa kinini, abantu bakaba bameze nk'aho bategereje guhabwa serivisi runaka.

Ubutumwa cyangwa icyapa cya ejo heza, ni icyapa cyangwa ubutumwa buri mu mabara y'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi. Ejo heza barikubwira yuko uko wakwizigamira muri ejo hereza ukoresheje telefone, ni uburyo ejo heza yazanye ushobora gukoresha wizigamira utavuye iwawe mu rugo.

Abantu bicaye ku ntebe ndetse n'undi mubyeyi uhagaze wambaye igitenge asa nkaho ahetse umwana, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye, hakaba hari n'imiryango y'ubururu, bakaba basa nkaho bategereje serivisi runaka, ahantu hakaba hamezeze nkaho ari kwa muganga.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu byinshi, hakaba harimo ama etajeri agiye arimo ibicuruzwa bijye bitandukanye, birimo ibisuguti, imigati ndetse n'ibindi. Abantu bakaba barimo baracamo bihahira ibyo bakeneye, iyi nyubako ifite amakaro y'umweru, ndetse no hejuru parafo isa umweru

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, izwi nka superi marishe, ikaba arimo umuntu w'umukobwa wambaye agapira k'umweru ndetse n'agakoti kikoboyi, akaba afite akantu arimo aragenda atembereje, agenda ashyiramo ibicuruzwa yashimye. Hakaba harimo na etageri irimo ibicuruzwa bijye bitandukanye.

Iduka bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye, iryo duka rifite amakaro y'umweru, inkuta z'umweru; amatara akaba arimo araka. Harimo utuyetajeri tugiye turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Utuyetajeri ni utw'umweru, harimo amafu atandukanye, hakaba harimo ibisuguti ndetse n'ibindi bintu byinshi. Ni ahantu hacururizwa ibintu byinshi hazwi nko kuri superi marishe.

Umugabo wambaye ipantaro ndetse n'ishati y'amabokoko maremare kandi ndende y'ubururu, akaba afite akantu ko kunywa mu ntoki, iruhande rwe hari umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umutuku, akaba arimo aragenda ashyiramo ibintu umugabo ahashye mu kantu, akaba ari iduka rinini rigizwi nka superi marishe, ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye

Inyubako bacururizamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye hakaba harimo abantu benshi baje kwihahira ndetse bakaba bamwe bafite utuntu bagenda bashyiramo ibyo bashimye, hakaba hari n'ama etajeri arimo ibyo wahitamo ukagura.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, hakaba hari amakaro y'umweru ndetse n'inkuta ari umweru, hakaba hari abantu barimo baragendagenda bafite utubuntu bashyiramo ibyo baguze, hakaba hari na etajeri zigiye zirimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Inyubako bacururizamo ibikoresho ndetse n'ibicuruzwa byinshi. Ikaba ifite utuyetajeri twinshi tugiye turimo ibicuruzwa byiganjemo ibyo kunywa, imitobe ndetse n'ibindi. Hirya yaho hakaba hari ibyuma bikonjesha cyangwa bishyushya ibicuruzwa kugira ngo bidapfa.

Inzu nini ikorerwamo ubucuruzi ikaba icurizwamo ibikoresho ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Akaba umuntu uri gushyira ibicuruzwa mu ishashi akaba ameze nk'aho akora aho hantu ndetse muri ibyo bicuruzwa harimo amazi, ibisuguti ndetse n'ibindi bikoresho.

Umuntu uhagaze w'igitsina gore, akaba ahagaze mu iduka rinini bacururizamo ibikoresho bigiye bitandukanye, akaba afite akantu arimo aragenda ashyiramo ibyo ashaka guhaha mu iduka, harimo etajeri igiye irimo ibicuruzwa bikaba byiganjemo ibiribwa cyangwa ibyo bateka harimo inyanya, karoti, ndetse n'ibindi.

Inzu nini ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye ikaba izwi nka superi marishe, harimwo abantu bakoramo bambaye udupira hejuru tw'amoboko magufi twa oranje, harimo ibyuma bimwe bigiye bikonjesha ibicuruzwa kugira ngo bidapfa harimo n'ibiribwa birimo nk'amakeke amandazi ndetse n'ibindi hari n'cyuma gikonjesha ibinyobwa kugira ngo ababishaka bikonje babibone kizwi nka firigo.

Inzu nini ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye. Hakaba harimo abantu. Hari umugore wicayemo wambaye agapira k'amaboko magufi k'ubururu. Akaba arimo aragenda atunga ibicuruzwa ku kamashini kerekana amafaranga umuntu uvuye kubigura agomba kwishyura. Hari n'umuguzi imbere uvuye kugura ibintu utegereje ko bamubwira amafaranga yishyura. Ku ruhande hari etajeri iriho ibicuruzwa.